Iduka ryitwa eva simati butike ricuruza inkweto n'imyenda by'abana, imbere hari ibikoresho byambikwa imyenda bizwi nka maneke, icy'umukobwa cyambaye ikanzu, n'icy'umuhungu cyambaye umupira w'umukara n'ikabutura ya kaki.

Imodoka y'ikigina yo mu bwoko bwa yundayi iparitse muri kaburimbo inyuma yayo hari ibiti byinshi by'icyatsi ikaba igurishwa ushaka kuyigura wahamagara kuri zeru karindwi umunani, mirongo itandatu na gatatu mirongo itatu n'umunani, mirongo ine n'icyenda kane.

Ibiganza biri kubara inoti nyinshi z'amafaranga y'amahinde, aho buri in noti ari amafaranga magana icyenda y'amahinde. Ibi biganza kandi nyirabyo akaba yambaye agakomo ku kuboko kw'iburyo n'impeta ku kuboko kw'ibumoso, bikozwe muri zahabu inzara ze akaba yarazisize verine ya pinki.

Ogisisi foiri biro akaba ari ibiro bifasha abaza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu bwoko runaka bw'amafaranga bayashyira mu bundi bwoko runaka bw'amafaranga, aha turabonamo mudasobwa, turabonamo n'umugabo wicaye ategereje gufasha abakiriya baza kuvunjisha amafaranga yawe.

Umuntu wirabura wambaye imyenda y'umweru ndetse n'ikigina, uri kubara amafaranga atandukanye, harimo inoti y'amadorari ijana isa umweru ndetse n'irindi bandari iri hasi.

Inama yahuje abantu bagiye batandukanye ndetse n'abayobozi bari kuri mudasobwa zabo ndetse n'aba gafotozi n'ibikoresho bifashisha mu gufotora.

Iduka rinini kandi rikiganjemo ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, mu binyobwa harimo nka imitobe itandukanye yaba ari ikonje iri mu mafirigo yaba ari n'iyindi iri mu tubati, mu biribwa harimo imbuto nk'imineke, harimo ibisuguti biri mu tubati, harimo n'ibindi biribwa bitandukanye.